Mu nzu iberamo inama nk'ibisanzwe, hateraniyemo inama yahuje abayobozi b'Uturere ubwo bigaga ku bibazo bitandukanye by'abaturage, bibera mu baturage rwagati.

Iyo mu karere k'iwacu haje abashyitsi hari itorero tugira ryitwa Intore aho ribyinira abashyitsi bakishima bagataha baryohewe n'ibyo baje kugusura batubaza.

Umuhanda wa kaburimbo ni umwe mu muhanda ucibwamo n'imodoka zitandukanye zitwaye abagenzi mu duce dutandukanye tw'Igihugu, igihe rero uri kwambuka umuhanda ni byiza kugenda wigengeseye ngo zitakugonga.